Abantu benshi bari kucyubakwa ndetse bamwe bari gutunda ibyondo, abandi amatafari, abandi bakaba barimo gushyiraho itafari ku nzu, bageze mu bikwa, hari abari gucukura icyondo bagikata.

Inyubako nini y'ibitaro by'Akarere ka Nyagatare, haparitse imbangukiragutabara hanze ku mbuga y'ibyo bitaro, hari icyapa mu marembo agaragaza ko ari ibitaro by'Akarere ka Nyagatare.

Umuganga ari kuvura umusore wambaye ijiri y'abatanga amaraso mu butabazi bw'ibanze; barimo kumutera serumu bigaragara ko arembye cyane.

Icyumba cyo kwa muganga kiryamyemo umugore utwite, afite umuganga uri kumukurikirana w'umugore mugenzi we, yashyize ugutwi ku nda ari kumva uko umwana amerewe.

Abakorana bushake b'umuryango utabara abarwayi ku isi Croix Rouge, bafite ingobyi batwaraho abarwayi, hari umuntu wagize ikibazo bagiye kumushyiraho.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo abarwayi baryamye ndetse n'abaganga benshi bagera kuri bane, binjiye bari kubafasha ndetse ubona ko abarwayi bishimiye kuba bari kuvurwa.

Inyubako ifite ikibuga hanze bigaragara ko hari n'ibyuma byinshi byifashishwa ndetse hakaba hari ikibuga cy'ibitaka n'igiteyeho sima, hakaba n'inyubako nyinshi ziri hafi aho.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kiryamaho abarwayi, haryamye abarwayi babiri ndetse hari n'undi wicaye ku gitanda, bigaragara ko bari kwa muganga bategereje ababitaho.

Icyumba cyo kwa muganga kisanzuye ariko kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga, harimo igitanda ariko nta muntu ukiryamyeho, harimo n'izindi ntebe ndetse na robine bakarabiraho.

Umuforomokazi wambaye ishati y'umweru n'ikarita mu ijosi imuranga. Yarambuye ibitabo ari gusoma ndetse yereka umugabo uhagaze iruhande rwe na we wambaye ishati y'umweru.

Abantu bahagaze hamwe bifotoza bari kwifotoreza ku modoka itwara abarwayi n'abagabo n'abagore bamwe bafite impapuro mu ntoki.

Hanze y'inyubako hicaye urujya n'uruza rw'abantu benshi ubona ko bategereje baturutse impande zitandukanye, bakaba bategereje serivisi ni benshi bafite amakaye n'amakaramu, kugira ngo wagirango ngo ni abanyeshuri, ariko kubera ko ari bakuru baje mu bindi bitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga gihagazemo abaganga benshi bambaye ibisarubeti by'umweru bibatwikiriye no mu maso, bambaye n'udupfukamunwa tw'umweru tubafunze mu isura hose, harimo ibitanda muri icyo cyumba ndetse n'intebe z'umukara zifite amapine ndetse hamanitsemo n'amarido ari mu ibara ry'ubururu.

Amarembo y'ibitaro, hari icyapa kinini cyane kiri mui ibara ry'icyatsi hariho amagambo yanditsew'i ibara ry'umweru, ku mbuga y'ibyo bitaro harimo ihaparitse.

Ababyeyi bicaye ahantu hamwe, bakikiye abana batoya cyane bari mu kigero k'imyaka imwe. Ubona ko baje kwa muganga kubakingiza. Harimo uri kumwonsa ateze igitambaro mu mutwe ndetse hari n'abandi babakikiye mu ntoki bisanzwe.

Umubyeyi uryamye ku gitanda ari kumwe n'akana k'iwe kakiri gato k'agahinja. Baryamye mu nzitiramibu ndetse imbere yaho hari umusego w'umweru. Baryamye bisasiye ishuka iri mu ibara ry'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga kiryamyeho umurwayi, hari umuntu uri kumwitaho ari kujya yumva uko amerewe, nta myenda ya giforomo yambaye ariko inyuma ye hagaze abandi bantu harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru.

Icyumba kinini cyane cyo kwa muganga. Hicayemo ababyeyi b'abagore gusa bigaragara ko baje gukingiza abana, harimo abakikiye abana b'impinja ndetse n'abandi badafite abana.

Mu nyubako kandi harimo intebe ndetse n'ameza afite amapine, bagira n'aho bashyira serumu, biragaragara ko ari aho bavurira, imiti nayo ikaba ifite ahantu bayibariza muri iyi nyubako.

Abantu benshi cyane bazamuye akaboko k'iburyo, barasa nk'abari kurahira bambaye imipira imwe ndetse hasi bambaye iby'umukara, hagati yabo harimo umugabo ufashe urupapuro runini mu ntoki ari gusoma.

Utumezaeza dukunda gutwaramo ibintu bitandukanye, tuba dufite amapine dukunda gukoreshwa kwa muganga, turi hanze y'inyubako bari kudusukura ndetse harimo n'abagore bambaye imyenda y'akazi.

Umubyeyi waje kwa muganga kwivuza, yicaye ku ntebe y'umukara imbere y'ameza, hirya imbere ye ku meza n'ubundi hari umuganga uri kumwakira afite ikaramu ari kwandika ku mpapuro.

Abaganga babiri bari mu nyubako irimo imiti y'amoko atandukanye, iri mu tubati twayo, umwe aricaye ari kwandika, n'aho undi arahagaze, ari kureba imiti agiye guha umurwayi.

Abantu benshi bahagaze mu bitaro mo imbere, harimo abaganga bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'abasirikare babiri bahagaze, harimo abambaye udupfukamunwa n'abatatwambaye.

Abarwayi babiri baryamye ku bitanda, bigaragara ko barembye. Babateye inshinge ndetse bafite na serumu. Iruhande rwabo hari umuganga uri hagati yabo bombi kandi afite imiti itandukanye ni we uri kubitaho.

Umuganga uri kuvanga imiti ndetse imbere ye hari igitabo kinini kirimo umukasi hakaba n'ikarito irimo imiti, ndetse n'indobo y'umutuku hari umugore uhetse umwana uri ku muryango utegereje ko bamumbwira ngo niyinjire.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe, hari ahantu hari ibyuma, amacupa ndetse n'inshinge; biragaragara ko ari kuvanga imiti. Niyo mpamvu yambaye nk'umuntu wirinze kugira ngo yirinde ingaruka mbi byamugiraho.

Umubyeyi waje kwivuza kwa muganga, umugabo w'umuforomo ari kumufata amaraso ku rutoki kugira ngo asuzume ubuzima bwe uko buhagaze.

Umugore uri mu cyumba ari kuvanga umuti awukura mu gacupa awushyira mu rushinge, yambaye itaburiya na ga mu ntoki kugira ngo yirinde ibyago byo kuba yakikomeretsa.

Akaboko kambaye intoki zifashishwa bari gukora mu miti kwa muganga, bari gupima ibipimo byafashwe by'abarwayi batandukanye kwa muganga.

Umuforomokazi ufite ikaramu nini ari kwandika, imbere ye ku meza hari imiti iri mu macupa ndetse hari n'ibikoresho bifashisha bafata ibipimo by'abarwayi.

Umugore wateze amaboko, wambaye umupira w'ubururu, wanditseho ubuzima. Ari kumwe n'abasore n'abagabo, bambaye imipira isa nk'iye nabo barimo gukoma amashyi.

Icyumba kirimo ababyeyi bambaye udupfukamunwa tw'umweru ndetse bamwe muri bo bahetse umwana, bicaye basa nk'abategereje, aho ku rukuta hagaragara ibara ry'umweru ndetse hasi hakagaragara ibara ry'umuhondo. Hari rido ziri ku madirishya.

Abagore bazanye abana babo kubapimisha, hari akabaho kaba karimo metero baryamishamo kugira ngo barebe uburebure, babapime ndetse n'igihagararo. Bari mu itente aho haba harimo umuganga wabihuguriwe.

Abantu benshi bahagaze hamwe abagabo ndetse n'abagore bakikiye abana, imbere yabo hahagaze abagore babiri, ku meza ari imbere hari ameza ateretseho icupa ry'amazi amasafuriya abiri, isafuriya imwe irimo ibikombe indi irimo ibimera bitandukanye.

Abantu benshi bahagaze ku rubaraza rw'inzu, harimo abana bakiri batoya mu kigero cy'imyaka itanu ndetse n'abandi bakuru bahagaze inyuma yabo, barasa nk'abasohoka bava muri iyo nyubako.

Umubyeyi uryamye yambaye impeta ariko akikiye umwana we w'uruhinja wasinziriye ariko umubyeyi we ntabwo asinziriye aryamye areba hejuru.

Abana batoya cyane bari mu kigero cy'imyaka itanu, bose bicaye ku murongo bari kunywera mu bikombe by'umweru bigaragare ko bari kunywa ibintu bimwe.

Abana bicaye hamwe ku musambi n'umukobwa urambuye igitabo ari kujya akora ibintu ku maboko na bo bamwiganye bigaragare ko ari kubigisha.

Icyumba cy'inama, kirimo abagore n'abagabo ndetse bambaye imyenda y'umweru hejuru, hasi ho buri wese yambaye imyenda ashaka, bari mu cyumba, hagarara abantu bari hanze ndetse hari ibiti bitandukanye.

Umusore ufashe icyapa kinini mu ntoki, cyanditseho amagambo atandukanye. Ahagararanye n'undi mbere ufite indangururamajwi mu ntoki, inyuma yabo hari abandi bantu benshi bari kubitegereza.

Ubusitani bwiza buteye ubwuzu, buzengurutswe n'indabyo ndetse hagati yazo hakaba harimo ibyatsi byiza. Izo ndabyo zifite amabara atandukanye, hari inzu iri hafi y'ubwo busitani ndetse hari n'ibiti birebire by'inganzamarumbu.

Umugore uhagaze imbere y'abandi bantu benshi bicaye mu ntebe, afite indangururamajwi mu ntoki ari gutanga ikiganiro kijyanye no kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'uburwayi bwo mu mutwe.

Abagabo bafashe icyapa kinini cyane cyanditseho umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe, n'abagabo bambaye inifome cyangwa se impuzankano, inyuma yabo hari abambaye nabo impuzankano isa n'ibara ry'umuhondo bigaragara ko ari abagororwa.

Umubyeyi wambaye ishati y'umweru ubinditse imisatsi y'umukara inyuma, afite indangururamajwi mu ntoki imbere ye hahagaze abana ndetse n'inyuma hahagaze abandi bantu bakuru harimo n'ababyeyi bahetse abana, ameze nk'uri kubaha ikiganiro.

Abantu benshi bahagaze mu itsinda rimwe bifotoza, ni urubyiruko rw'abakobwa n'abasore bafashe icyapa mu ntoki bose kandi bambaye imyenda isa, imipira hejuru iciye amaboko yanditseho amagambo y'umweru ndetse bambaye n'amapantaro y'umukara, harimo umukobwa umwe wambaye ingutiya y'umweru gusa.

Abantu bicaye mu cyumba cyisanzuye, imbere yabo hari icyapa kiriho amashusho cyanditseho amahugurwa ndetse imbere yaho hari icyuma kigaragaza amashusho, umwe yambaye agapfukamunwa k'umweru undi yambaye amarineti.

Abantu b'urubyiruko bambaye imyenda y'imyero hejuru bamwe umutuku ndetse barangajwe imbere y'umugabo wambaye ikositimu; ndetse hafi hari inyubako nyinshi bifashisha iyo bari kwiga biragaragara ko hari ikintu runaka bari gutangaza.

Icyumba gicururizwamo imiti itandukanye, iri muri, aho bacururiza imiti. Hakabamo ifunze mu magakarito yabugenewe n'indi irimo uducupa twabugenewe kubika imiti, igihe icyo ari cyo cyose.

Ibiganza bibiri bifashe ibinini mu ntoki, bigaragara ko ari umurwayi babihaye kwa muganga. Biragaragara ko ari umugore bitewe n'uko yitereshejeho izindi nzara.

Ni icyumba gicururizwamo imiti y'amoko atandukanye, harimo umukobwa afite ikaramu mu ntoki, ari kugenda yerekana buri hantu ikirimo n'ubwoko bwacyo.

Ububiko bw'imisi itandukanye. Hari iri mu macupa, mu dusahane no mu dukombe, yewe no mu tuvido. Gusa yose irapfundikiye kandi ibitswe neza ahantu hadashobora kugera ibiyangiza ibyo ari byo byose.

Imodoka igendamo abayobozi bo mu bugenzacyaha bw'u Rwanda, ndetse ihagaze ku nzu iriho imiti, imwe bacururizamo imiti itandukanye, hari umuntu uri kugenda ayihunga.

Ububiko bw'imiti igiye itandukanye yifashishwa kwa muganga harimo amakarito abitse mu ruhande rumwe mu kabati ko hasi ndetse n'ako hejuru, hari n'akabati kamwe karimo amacupa apfundikiye bigaragara ko yose abitsemo imiti.

Ububiko bw'imiti itandukanye kwa muganga, hari ibitse mu macupa ndetse no mu dukarito mu tubati, hari mudasobwa ku meza hafi aho ngaho muri icyo cyumba.

Inyubako, nini irimo, ibicuruzwa bitandukanye, ndetse biragaragara ko, harimo imiti, kuko harimo ibikombe, ndetse n'amacupa, n'ibindi bifunze mudukarito.

Inyubako izwiho gucuruza imiti yitwa farumasi, harimo ububiko bw'imyinshi igiye itandukanye ndetse harimo n'umuntu utanga iyo miti, harimo iri mu macupa ndetse n'iri mu dukarito.

Ububiko bw'imiti igiye itandukanye, harimo abantu babiri umwe yambaye itaburiye y'umweru, undi yambaye umupira w'umukara gusa bose ni abagore, biri kugaragara ko bari gushakisha umwe mu miti yo kwifashisha.

Icyapa kinini kiriho amagambo avuga ati ''gushishikariza urubyiruko kwitabira serivisi zo ku cyumba cy'urubyiruko'' hariho amafoto y'abantu babiri, agaragaza ko ari abatumirwa, bambaye imyenda itandukanye y'amashati.

Umugore wambaye umupira w'umweru ndetse yambaye n'isaha ku kaboko, afite indangururamajwi mu ntoki, ameze nk'uri kubwira imbaga nyamwinshi, inyuma ye hahagaze umusore ndetse ku mpande hicaye n'abandi bantu b'urubyiruko.

Icyumba kirimo abantu bicaye bazengurutse abagabo, abagore ndetse n'abasore yewe n'inkumi, inyuma yaho hari ameza arambitseho amacupa arimo amazi.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko barangamiye abahanzi babiri bari imbere ku rubyiniro bari kubaririmbira kandi banabyina, bari kubacezereza bigaragare ko nabo bishimye.

Ababyeyi b'aba mama babiri bicaye hamwe ku ntebe zegamirwa, bafite udutabo bari gusoma mu ntoki. Iruhande rwabo hicaye akana gatoya, kambaye umupira uciye amaboko, gafite terefone mu ntoki.

Abana bakiri mu kigero cy'imyaka mikeya bicaye hamwe, imbere yabo hari umukobwa uri kubaha inyigisho, hirya imbere gato hicaye ababyeyi babiri, hakurya ku gikuta hashushanyije inka ndetse n'undi muntu uri gucuranga.

Abanyeshuri bicaye hamwe bishimye bigaragara ko bari guhabwa amahugurwa. Hari uwicaye imbere afite icyapa cyanditseho amagambo manini agaragara cyane, agira ati:" Ndi uw'agaciro ndashoboye".

Urubyiruko rw'abantu benshi cyane bahagaze hamwe, bahagurutse ku ntebe bari bicayeho. Bafite amatelefone mu ntoki, imbere yabo hari umuhanzi uri kubaririmbira yambaye amarineti y'umukara ndetse afite na mikorofone mu ntoki.

Abantu bahagaze ku murongo bakurikirana. Harimo abashinzwe umutekano bazwi nk'abapolisi babiri, umwe w'umudamu ari kubererekera akantu gateretse imbere ku kirahure ndetse no ku meza. Arabererekera bose batewe amatsiko no kumenya icyo aricyo.

Abantu baringaniye bagera muri cumi na batanu, bari inyuma y'inyubako, hamwe ku ibaraza, bafashe icyapa kiriho amagambo agaragaza ko ari Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima.

Abantu benshi bicaye hamwe bambaye imyenda isa, bambaye ingofero z'umweru zisa n'udupfukamunwa tw'umweru, harimo n'abambaye ga zirimo ibara ry'icyatsi kibisi baricaye bari kuruhuka nk'abasoje akazi.

Abagabo bambaye impuzankano, harimo abapolisi n'abo bari kumwe nabo ndetse bafite ibyuma mu ntoki bizimya umuriro ndetse bambaye n'ingofero z'akazi, iruhande rwabo hari ibiti ndetse n'ibyatsi bitandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano, bafite igipapuro cyanditseho insanganyamatsiko runaka ndetse no mu ntoki baterura utundi dutoya, hafi y'aho hari ikigo bigaho ndetse n'ibiti byinshi.

Umupolisikazi arunamye ari kugaburira umwana, hirya naho hari umuganga uri kugaburira undi mwana. Bambaye bose udupfukamunwa bigaragare ko bari mu nama yo kwigisha ababyeyi guha abana indyo yuzuye.

Abagore batatu bahagaze bari guseka cyane, babiri muri bo bambaye amarineti, undi yambaye ikarita y'akazi, bose ni abaganga bambaye imyenda isa, inyuma yaho hamanitse igikoresho bita kizimyamwoto kimanitse ku gikuta.

Imbuto z'amoko menshi atandukanye, zirimo umutuku ,umuhondo ndetse zikoze mu buryo butandukanye, hari icyatsi kiri imbere mu isekuru ,bigaragara ko ari imiti bakusanya ikavamo umuti uvura indwara.

Abantu babiri bari kuyungurura umuti bamaze kwenga mu byatsi, umwe afashe igikombe ari gusuka, undi afashe akayungiro, bari gusuka umuti mu isafuriya.

Imiti igiye itandukanye iri mu bitebo ndetse no mu masahani, biteretse hamwe ndetse imbere yaho hari ibindi bimera basoromye babirunda aho ngaho, bigaragara ko byose bizakurwamo imiti yifashishwa kwa muganga.

Abagore bicaye hamwe, badanditse imiti ku mifuka ndetse n'utundi duti dutandukanye, baricaye uri kubona ko bari gucuruza, bategereje abakiriya.

Abagore n'abagabo bari kuza bari kumwe ndetse bari kwinjira ahantu mu muryango, bigaragara ko ari kwa muganga ndetse bamwe muri abo bagore bafite ibipfuko mu maso, bigaragara ko bahuye n'ibikomere.

Abagabo bane n'umugore umwe utwaye igitabo mu ntoki, bari kuva ku nyubako imwe isize irangi ry'ubururu yanditseho amwe mu magambo manini agira ati: "Gira ubuzima."

Umubyeyi uhagaze imbere ari gutanga ibyangombwa abihereza umuntu wicaye wambaye ishati y'ubururu, bigaragara ko ari kwerekana ubwisungane mu kwivuza, akaba aje nko kwivuza kwa muganga. Hirya mu ntebe hicaye abandi bantu bategereje guhabwa serivisi.

Umusore uri ahantu mu cyumba, yambaye ishati y'umweru, ndetse n'ikoti ry'umweru, afite umusatsi mwinshi ndetse iruhande rwe hari akabati gateretsemo indorerwamo z'amaso zizwi ku izina ry'amadarubindi, ndetse biragaragara ko ari nyinshi cyane.

Umukecuru wagiye kwipimisha indwara akenyeye kandi yifubitse igitenge, imbere ye hari umuganga wamwambitse ikintu gipima indwara mu kaboko nawe we yambaye utuntu mu matwi bigaragara ko ari kumva uko ahagaze.

Mu cyumba harimo abagabo batatu n'umugore umwe, wambaye imyenda yabugenewe bigaragara ko akora kwa muganga, hakabamo ameza atatu, hariho igikombe, akajerekani gato ndetse n'amacupa agiyerimo imiti.

Abantu batandukanye ndetse bafite impapuro harimo abakecuru n'abasaza, ubona ko bakuze ariko atari cyane, bicaye ku ntebe bafite ibipapuro mu ntoki, bategereje serivisi aho bagiye kuyisaba.

Ababyeyi babiri bakikiye abana b'impinja bakiri bato mu ntoki, umwe afite igipande kikingiza ari kugiha uri kumuha serivisi bigaragara ko baje gukingiza abana, imbere yabo hari umugabo wicaye nawe afite ibyangombwa mu ntoki.

Urusengero rw'Abangilikani, inyuma yarwo hari abantu benshi bigaragara ko batakirusengeramo, hari abayobozi batandukanye, ni urwa Diyoseze ya Kigeme.